Ahantu hari ibishushanyo bibiri, ibyo bishushanyo ni iby'abasirikare batunganye imbunda, umwe bamwambitse imyenda y'icyatsi, undi bamushushanyije yambaye imyenda y'umukara.

Inyubako ifite metarike ziteye irangi ry'umweru nyinshi zirimo n'ibirahure, muri zo harimo ebyiri zifunguye imwe muri zo zifunguye harimo umuryango bigaragara ko ukorerwamo ubucuruzi.

Ahantu hari amapave, hari imifuka ibiri y'amakara umwe wuzuye n'undi w'igice, iruhande rwayo haparitse moto, imbere y'ayo makara hari umuryango ufunguye, bigaragara ko ukorerwamo ubucuruzi, hejuru handitse ijambo jibu.

Abana imbere yabo hateretse imeza, abo bana bafashe ibiryo byinshi bari kurya, inyuma yabo hicaye abandi bantu, abo abana umwe yambaye agapira karimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu, abiri araringaniye ari inyuma, imbere hari irindi rimwe, gifite amahembe nk'ay'igare kandi giteretseho ikintu kimeze nk'umutaka cy'umutuku.

Mu cyumba kirimo abantu benshi igikuta giteye irangi ry'umuhondo harimo umuntu ufashe icyapa gishushanyijeho umuntu, iruhande rwe hateretse agapaniye keza, inyuma yabo hahagaze abandi bantu muri bo hari umwana uhari.

Ahantu hari ibikoresho by'ishuri harimo carikereta, harimo amakaramu y'ibiti, harimo amakayi, amakaramu asanzwe, amarangi ndetse n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mu mashuri.

Ahantu ku gikuta giteye irangi ry'umuhondo, iruhande hari kugaragara idirishya, riteye irangi ry'icyatsi n'umukara, icyo gikuta gishushanyijeho ibabi, iryo babi hagiye hagaragaraho ibice byaryo, byanditse mu Cyongereza.

Ahantu hari icyapa, icyo cyapa kiriho inyoni ebyiri zihagaze ku bitsitsi by'ibiti byatemwe ku gitabo cyanditseho isandi n'ishya, amashuri y'inshuke.

Imbere y'inyubako z'amashuri, hari abantu batatu bahagaze, imbere yabo hicaye abanyeshuri benshi, inyuma y'icyo kigo hari ibiti birebire kandi muri icyo kigo harimo indabo ndetse n'ubusitani bwiza.

Ahantu hari icyapa cy'ubururu, icyo cyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru yanditseho ngo REB, "Rwanda Basic Education Board" bisobanura mu Kinyarwanda ngo ni ikigo k'Igihugu gishinzwe uburezi.

Ibishushanyo by'abanyeshuri bari gukora amasuku, abanyeshuri harimo abakobwa babiri n'abahungu babiri, abahungu bambaye amakabutura y'ubururu n'amashati y'umweru magufi, abakobwa bambaye amashati y'umweru ndetse n'udukanzu tw'ubururu. Bari kuyora imyanda bayisuka mu dusanduku bamenamo imyanda.

Ahantu hari ibyumba by'amashuri bitandukanye muri byo hari ibisakaje amabati y'umutuku ibisakaje amabati y'ubururu muri ibyo byumba kandi harimo ibigeretse kabiri.

Ahantu hari ibishushanyo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, muri ibyo bishushanyo harimo: amakayi, amakaramu, amakaramu y'amarangi bakoresha bari gushushanya, amarati n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho byinshi bikunze kwifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke n'amashuri abanza, muri ibyo bikoresho harimo ibikinisho, harimo baro, harimo amakaramu n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Aha ibishushanyo bibiri, kimwe kiri mu ibara ry'ubururu kiri mu ibara ry'roza, mu bururu handitsemo inyuguti ya a, hanyuma mu iroza handitsemo be. Aho ibyo bishushanyo bihurira handitsemo a na u icuramye ndetse na be.

Inyubako z'amashuri, imbere y'izo nyubako hari idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda rimanitse rimanitse, ahantu hari pasiparume nziza, imbere y'iryo darapo hari izindi ndabo zijya gusa n'umuhondo, muri izo ndabo harimo igiti kirekire cyiza kitoshye.

Ahantu handitse amagambo y'Icyongereza, iruhande rw'ayo magambo hari igishushanyo cy'umuhungu uri guseka, amaboko ye yafatishije mu nda, inyuma hari ibindi bishushanyo.

Icyumba ku bikuta hariho ibibaho bigiraho, icyumba kirimo ameza y'umutuku ateretseho igitabo, harimo intebe z'amoko atandukanye, icyumba gikingishije urugi ruteye irangi ry'ubururu.

Ahantu hari umuryango mugari binjiriraho ku kigo cy'amashuri handitse ngo werikame ikaze mu kinyarwanda iruhande rw'u muryango hari utuzu tubiri kamwe kanditseho ngo ape Nyamata imbere harimo ibiti birebire ndetse n'inyubako z'amashuri.

Ikigo cy'amashuri imbere y'ikigo cy'amashuri hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, iruhande rw'iryo darapo hanyuze urutsinga rw'amashanyarazi ndetse inyuma y'ayo mashuri hari ibiti birebire.

Ahantu hari ibishushanyo bibiri by'ibizeru binyuranyemo, ibyo bishushanyo hasi handitse inyuguti ya u muri ibyo bishushanyo kimwe cyanditsemo inyuguti ya a ibumoso, ikindi cyanditsemo inyuguti ya b.

Ahantu hari ibishushanyo hari igishushanyo cy'igiti, hari ibishushanyo by'imbuto bigiye byanditsemo imibare uhereye kuri rimwe ukageza kuri karindwi, hari ikindi gishushanyo cyanditseho amagambo menshi ndetse handitseho ijambo Ikinyarwanda.

Ahantu hari ibiti birebire, munsi y'ibyo biti hicayemo abanyeshuri b'abakobwa, bamwe bambaye amashati y'umweru, abandi bambaye amashati y'umweru n'imipira y'icyatsi, harimo abambaye iy'imihondo n'iy'ubururu.

Ahantu hari umuryango mugari iruhande hari ibikuta biteye irange ry'umuhondo, umuryango wanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura ngo ikaze mu Kigo cya segonderi cya Rukomo, imbere mu kigo harimo ibiti birebire cyane ndetse harimo n'indabo.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye amashati yumweru n'imipira ijya gusa n'umukara isa n'amapantaro n'amajipo bambaye, icyo icyumba imbere ku kibaho handitseho ngo siniya wani, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye.

Urubyiruko rw'abanyeshuri, harimo abambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, abandi bambaye amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo by'ikigina, harimo abenshi bambaye inkweto z'umukara, harimo n'abambaye iz'umweru bake.

Ahantu hari urubyiruko rwinshi ruri kugenda, muri bo hari abambaye imipira y'ubururu, amashati y'umweru, umwe muri bo niwe wambaye umupira w'umuhondo, inyuma yabo aho bari guturuka hari ibiti birebire.

Ahantu hameze nk'ikibuga hahagaze urubyiruko rwiganjemo abambaye imipira y'icyatsi, imbere yabo hicaye abantu, abicaye harimo abasirikare batatu ndetse n'umupolisi umwe.

Urusengero rwubakishije amabuye akotemo sima, imbere yu'rwo rusengero hahagaze abantu benshi harimo abagabo bambaye amakoti, hari abana bambaye amakanzu maremare yu'bururu n'utugofero tw'ubururu, ayo makanzu afite umweru hejuru ku ikora.

Ni mu cyumba, icyo cyumba bigaragara ko ari ik'imyidagaduro, harimo abantu bari kucyinjiramo, harimo umudamu wambaye ijire y'icyatsi irimo ibara ry'umweru, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse hari n'undi wambaye ishati y'umweru n'amaboko magufi, afashe ibitabo mu ntoki.

Ahantu hari ibyuma biteye irangi ry'umutuku iruhande rw'ibyo byuma hari kunyuraho abantu , harimo abambaye amajire y'icyatsi, arimo ibarara rijya gusa n'ikigina iruhande rwabo hari ikigega kinini cy'amazi cy'umukara.

Umunyeshuri w'umuhungu, mu ijosi rye yambaye baji iriho icyatsi, yambaye ishati y'umweru iriho ikirango cy'ikigo, mu ntoki ze afashe igikombo bigaragara ko ari icyo yatsindiye. Mu bigaragara arishimye kuko ari guseka.

Icyapa cyanditseho ngo Kagitumba hayi sikuru pibogisi makumyabiri na kane Nyagatare hari icyerekezo cyerekana ibirometero bitatu na metero magana ane byerekana ko ari ukugera kuri icyo kigo.

Ibiti birebire imbere y'ibyo biti hari uruzitiro rw'imiyenzi, imbere y'urwo ruzitiro hari umudamu wicaye wambaye agapira karimo ibara rya oranje, imbere ye hahagaze umudamu muremure wambaye ishati itamufasheho, yambaye ibikomo mu kuboko, yambaye amarinete, afashe mikoro ari kuvuga ijambo.

Ni icyumba kirimo abantu benshi bicaye harimo abambaye utugofero tw'umweru n'amataburiya y'umweru harimo abambaye amashati y'ubururu, ubururu juru n'imipira ijya gusa n'umukara n'amajipo n'amapantaro by'ikigina, imbere yabo hahagaze umugabo ufashe mikoro, yambaye ishati ya karokaro y'umuhondo n'umukara.

Ahantu ku gikuta handitse amagambo y'Icyongereza asobanura mu Kinyarwanda ngo ishami ry'ubucuruzi, munsi hari urugi rwa metalike rurimo ibirahure kandi ruteye irangi ry'icyatsi.

Icyumba kirimo abantu batanu n'undi uri kugaragara ukuboko, icyumba bane muri bo bambaye udupfukamunwa, babiri bambaye utw'umweru abandi babiri bambaye utw'umukara, bose bafashe udukayi n'amakaramu bari kwandika.

Ahantu hari inzugi izo nzugi zikingishije ibirahuri bya fime kandi ziteye irangi ry'icyatsi hejuru handitse faburise dekoresheni situdiyoo bigaragara ko ari ahantu faburise ukora ibintu byo kudekora akorera.

Ahantu hari umuryango ukingishije metalike urimo ibirahuri bya fume, uwo muryango uriho nimero OR cumi na rimwe, urebye mu kirahure urabona harimo ibiti byinshi, ibirahure biri gukurura, biri kugaragaza.

Inzu iteye amarangi y'umuhondo, iriho ikimenyetso cya UR Rwanada, imbere yayo hari kunyuraho abantu b'ingeri zitandukanye, hari abakobwa, abasore muri bo hari umusore wifashe ku itama, yambaye isaha afashe igitabo mu ntoki.

Ahantu hari ibibumbano bitandukanye hari ikibumbano kimeze nk'isanduku kiri kugaragara uruhande rumwe, imbere yacyo hari ikindi kibumbano kimeze nk'agatebe ka kinyarwanda bicaraho.

Abanyeshuri benshi bafashe ingofero mu ntoki, bambaye amakanzu y'umukara ndetse ariho ibara ry'umuhondo, abenshi bambaye karuvati na ne mu ijosi, inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse imbere y'ibyo biti hari ikidara cy'amahema y'umweru.

Ahantu hari umuhanda w'amapave hari kugendamo abantu babiri muri bo harimo uwambaye udukweto tw'umweru dufunguye, yambaye ipantaro y'umweru irimo utundi tubara, yambaye agapira k'umukara kandindikisha amagambo y'umweru, undi yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'amabara nubundi y'umutuku, iruhande rwabo hari ibiti.

Icyumba kirimo abantu benshi, ibikuta byacyo biteye irangi ry'umuhondo, harimo umukobwa uhagaze yambaye agakanzu k'umukara, yambaye amarinete, abantu bose bari kumwitegereza.

Icyumba kirimo abantu bicaye, imbere yabo hateretse mudasobwa, muri iki cyumba harimo umudamu uhagaze yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira kajya gusa n'umutuku, ari kugenda yerekereza bamwe muri abo bantu bicaye muri icyo cyumba.

Abanyeshuri benshi bambaye amakanzu y'umukara n'ingofero z'umukara, bazamuye ikiganza cyabo cy'iburyo bose, bigaragara ko bari kurahira, abanyeshuri harimo abambaye amakaruvati ndetse abenshi b'abahungu, bambaye amashati y'umweru.

Ahantu hari ibibaho bibiri byegetse, ikibaho kimwe hejuru cyanditseho ngo kwizi hariho nimero rimwe na kabiri na gatatu ubwo ni ibibazo bitatu, ikindi kibaho kiri kugaragara uruhande rumwe cyanditseho rimwe iri mu kazeru ikurikirwa n'inyuguti ya a.

icyumba cy'amashuri icyo cyumba kirimo abantu benshi batandukanye harimo abambaye ingofero, harimo abambaye amashati y'umweru, harimo abanyeshuri bambaye udupira tw'umukara babiri imbere yabo hicaye umukobwa ndetse abenshi bicaye ku dutebe tw'icyatsi.

Ahantu bakorera umurimo w'ububumbyi hari ibibumbano by'amoko atandukanye, muri byo hari ikibumbano kimeze nk'ururabo, iruhande rwacyo hari ikindi kibumbano kigiye gifitemo utuntu tw'utwobo twinshi.

Icyumba giteye ibikuta biteye irangi ry'umuhondo iki cyumba gitereretsemo intebe ebyiri, ziteye irangi ry'ubururu zanditseho amagambo ari mu irangi ry'umweru, icyo cyumba harimo amakaro.

Inzu iteye irangi rijya gusa n'umweru, amadirishya ateye irangi rijya gusa n'ikigina, iyo nzu iruhande ifite jaride nziza y'indabo, ibiti birebire biyikikije ndetse iyi nzu ifite n'ama esikariye buririraho.

Ibishushanyo by'imbuto zitandukanye hariho icy'inanasi, icya pome, icy'urunyanya ni icy'imineke, ibishushanyo bigaragara ko byashushanyijwe n'abanyeshuri biga ubumenyingiro.

Inzu nziza iteye amarangi y'umuhondo, iyo nzu isakaje amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari ibiti birebire, imbere y'iyo nzu hari jaride nziza inyuzemo agahanda, iyi jaride igizwe n'indabo zitandukanye ndetse muri jaride harimo ikigega cy'amazi.

Ni mu cyumba cy'ishuri ibikuta bi bite irangi ry'umuhondo, harimo intebe z'ubururu ndetse harimo n'imeza iteretseho icupa, muri iki cyumba harimo abanyeshuri babiri umwe arunamye undi yicaye ku ntebe, asa n'uri kureba mu ikayi.